Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'umweru, bigaragara ko bari mu nama, hari n'undi muntu uhagaze imbere yabo, ufite indangururamajwi mu ntoki ze.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari amakayi hateretse n'imashini icanye hari n'isakoshi iteretse hejuru y'ameza

Abantu benshi cyane, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, abirabura n'abazungu, biragaragara ko bari mu nama. Imbere yabo hari icyapa kinini cyanditseho RGB mu ibara ry'ubururu.

Mu nzu harimo abantu benshi, igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'umukara n'ameza ariho itambaro cy'umweru, bafite imashini imbere yabo, hari n'undi mugabo uhagaze ufite indangururamajwi mu ntoki ze.

Mu nzu harimo abantu benshi igitsina gabo n'igitsina gore bicaye ku ntebe z'umuhondo n'ameza asa igitaka bari kwandika, imbere yabo hateretse amazi ya sosiyete y'inyange, hari n'undi muntu w'igitsina gore uhagaze imbere yabo uri kubasobanurira.

Mu nzu harimo abantu benshi batandukanye igitsina gabo n'igitsina gore bicaye ku ntebe z'umukara n'ameza y'umutuku imbere yabo hari amakayi hateretse n'amazi ya sosiyete y'inyange.

Icyumba giteraniyemo abantu bari mu nama, bari kugira ibyo baganiraho, bafite umuntu uri kubaganiriza ibintu runaka kuri serivise za leta.

Icyumba kirimo kuberamo inteko rusange yitabiwemo abandi bantu, aba bari imbere bakaba barimo kubayobora.

Mu nzu harimo abantu benshi cyane: igitsina gabo, igitsina gore bicaye ku ntebe z'umukara, bigaragara ko bari mu nama. Hari abandi bahagaze, ufite imfatashusho nufite indangurumajwi mu ntoki ze.

Mu nzu harimo abantu benshi, igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'umukara, bafite amakayi imbere yabo bari kwandika n'imbere yabo hateretse amazi ya sosiyete y'inyange.

Mu cyumba cy'inama, harimo abantu bicaye, bateze amatwi, hari umuntu uri kubaganiriza ku bintu runaka, bose bari gufokasinga, bari kumva uwo muntu badasakuje.

Mu nzu harimo abantu benshi, igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'umutuku, ameza ariho igitambaro cy'umweru, hateretseho amadarubindi, n'amazi ya sosiyete y'inyange, n'isakoshi.

Umuntu w'igitsina gabo, wambaye ikote ry'ubururu bwijimye, ishati y'umweru n'amadarubindi, ufite indangururamajwi imbere ye, yicaye ku ntebe y'umukara, inyuma ye hari icyapa kinini cy'ubururu.

Mu cyumba cy'inama barimo barakora iyi nama, bagaragaza ibikorwa runaka bashaka kuzageraho, harimo abantu benshi, mo imbere hari televiziyo ihari, barimo bagenda babereka aka n'aka ukuntu ibintu bimeze bikurikiranye.

Mu cyumba cy'inama, harimo abantu bari gukurikirana inama bayirebera kuri tereviziyo cyangwa se ekara.

Mu cyumba k'inama harimo abantu benshi bose bateze amatwi, umuntu urimo urabahugura ku bigendanye na serivisi zitangwa na Leta n'ibindi.

Inzu ikorerwamo ibintu bigendanye n'ikoranabuhanga, dufitemo purinta, abantu baje bahagana, buri wese ari gufokasinga ku bintu bye, n'abaje kureba, n'abashaka serivisi kugira ngo bafashwe ku bibazo byabo bafite.

Icyapa cyerekana ko cyerekana serivisi zitangwa ku rubuga rw'irembo doti govu, wajyaho ukagisura bitewe n'ibyo urimo gushaka. Bagaragaje ibyemezo bitangwa kuri ino, ku runo rubuga.

Mu muhanda w'igitaka, harimo ipoto rirerire rikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ahantu hatandukanye, harimo n'umuntu w'igitsina gabo uri gutambuka n'undi wicaye hirya, n'ibiti bitandukanye.

Umuhanda ukoze neza n'imiturire myiza y'abantu, bafite tekinoloji, bakabona aho guparika, bakagera ahantu bashopinga imyenda nko mu ma butike abegereye, harimo n'ibiribwa bibegereye ku buryo batagomba kujya kure.

Ipoto rirerire cyane, ririho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ahantu hatandukanye, hirya hari inzu, isize ibara ry'ubururu n'umutuku, hari n'ibiti by'imyumbati.

Iminara ibiri miremire ikwirakwiza itumanaho ahantu hatandukanye, isize irangi ry'umweru n'umutuku, hirya hari amazu y'ibikorwaremezo bitandukanye.

Igiti kirekire cyane kiriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ahantu hatandukanye mu baturage, inyuma yacyo hari inzu yubakishije amatafari ahiye ifite amadirishya y'ubururu.

Kwa muganga mu cyumba cy'abarwayi harimo abaganga n'urwaye, barimo barakurikirana uburyo umurwayi ameze bamuha ibyo akeneye.

Abagabo bahagaze imbere ya mikoro bagenewe ibyo bari buvuge bose bambaye udupfukamunwa, bigaragara ko bari mu cyorezo runaka kugira umwe ataza kwanduza undi, bafite ibintu bari gusobanurira abantu ba odiyansi iri imbere yabo.

Mu nzu hahagaze abantu babiri b'igitsina gabo na babiri b'igitsina gore, bambaye amakanzu y'umukara harimo n'umweru, hari n'abambaye amadarubindi.

Umuntu w'igitsina gabo w'umwirabura uri guseka wambaye ikote ry'ubururu bwijimye na karuvati y'umukara, n'ishati y'umweru inyuma ye hari ibara ry'umweru.

Abantu benshi bigaragara ko bari ku kibuga cy'indege, harimo igitsina gore n'igitsina gabo, yambaye amadarubindi n'ishati y'umweru n'umupolisi wambaye impuzankano mu ibara ry'ubururu bwijimye.

Abagabo babiri bahuye, umuyobozi ahuye n'undi mugabo bari gusuhuzanya, umugabo umweje kureba umunyururu runaka, ari kumusuhuza atanamuheruka.

Imodoka y'umukara n'umweru, iparitse ahantu hubakishije amabuye yo mu bwoko bw'amapave, hari icyuma kinini cy'umukara n'umweru, imbere yayo hari ubusitani bwiza buteyemo indabyo n'ibyatsi, hirya yayo hari inzu nziza.

Abapolisi bari mu muhanda, barimo baragendagenda mu baturage, bareba umutekano wabo, uburyo ingendo zirimo zirakorwa, ubucuruzi bwabo bukorwa gute, uburyo abaturage baba bameze muri karitsiye ku buryo nta kintu na kimwe kibahungabanya.

Barimo baramamaza umukandida kugira ngo bazamutore, banamwamamaje abantu bose babe bamuzi, urugero hano ndi kubona ko bafashe ifoto y'umukandida bari kwamamaza ngo tora n'ikirangantego cye.

Abantu benshi cyane, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'umweru, inyuma yabo hari imodoka hari n'abandi bagabo babiri bahagaze, umwe amanitse amaboko, afite n'indangururamajwi imbere ye.

Icyapa kinini cy'ubururu kiriho abahataniye umwanya wa Perezida ku mwanya w'igihugu, hariho Paul Kagame, Frank Habineza, Philippe Mpayimana n'amanota buri wese yagiye agira.

Mu nzu harimo abantu benshi igitsina gabo n'igitsina gore bambaye ikote ry'ubururu bwijimye, ishati y'umweru, karuvati y'umukara n'amadarubindi, abandi bambaye imyambaro ya kinyarwanda y'imikenyero.

Abagabo bahawe ibihembo, ibyo bihembo bikaba birimo ibitabo, ibyo bitabo bikaba birimo serivisi zizajya zitangwa muri guverinoma.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore bahagaze hanze, hirya yabo hari inzu isize amarange meza ubururu, umuhondo, icyatsi, umutuku n'umweru.

Abantu benshi cyane, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, harimo abambaye imyenda y'imikara, ubururu n'umutuku, bafite amadarapo mu ntoki zabo yanditseho FPR.

Serivisi zirimo gutangwa mu baturage, biyandikisha barimo gushyirwa muri sisitemu, sisitemu runaka, urugero nka muri sisitemu ya yufu voluntiyazi, aho ibintu wabisiba.

Umuntu w'igitsina gabo, wambaye amadarubindi, ikote ry'ubururu bwijimye, ishati y'umweru, karuvati y'umukara, inyuma ye hari umuntu w'igitsina gore.

Abantu benshi harimo igitsina gabo n'igitsina gore bambaye ingofero z'umweru n'imipira y'umweru, bafite impapuro mu ntoki zabo n'izindi ziteretse ku meza asa umweru.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye, moto iriho umuntu wambaye ingofero y'umutuku, n'ijile y'umuhondo n'ubururu, hari n'imodoka nini y'umweru n'umukara, ifite kontineri y'ubururu inyuma, harimo n'umuntu w'umunyamaguru.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo ibinyabiziga bitandukanye, igare ririho umuntu w'igitsina gabo, wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'umweru n'ubururu, n'imodoka y'umweru ifite igikonteneri inyuma cy'umukara, hirya yawo hari ibiti bitandukanye.

Amatagisi vatire atwara abagenzi, mu gihe udashaka gutega imodoka rusange watega ano matagisi vatire, cyane cyane ko yihuta akugeza aho ugiye vuba.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo umurongo muremure w'umweru, harimo n'imodoka y'umweru yo mu bwoko butwara abagenzi mu buryo bwa rusange, irimo abantu benshi, inyuma yayo hari umuntu uri gutambuka.

Mu muhanda wa kaburimbo haparitseho imodoka nyinshi zo mu bwoko butwara abagenzi mu buryo bwa rusange, zifite ibara ry'umweru, ubururu n'umukara n'umuhondo.

Imodoka zo mu bwoko bwa Horizoni zitwara imyanda, zishobora gutwara amabuye, umucanga n'ibindi bintu bisa n'ibiremereye, yaba ibiremereye cyangwa se ibitaremereye.

Ibinyabiziga byinshi, harimo imodoka z'umweru na moto biparitse, imbere yaho hari abantu bahagaze mu muryango, hejuru hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu, cyanditseho yesi fone TECNO.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo ibinyabiziga bitandukanye, moto itwaye umugenzi wambaye ingofero z'umutuku, n'indi moto ifite igikontineri cy'umweru inyuma, hirya yawo hari ibiti bitandukanye.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye, moto itwaye umugenzi wambaye ingofero z'umutuku, hari n'imodoka irimo abantu y'umweru ihetse ibintu byinshi, hari n'umuntu w'igitsina gore uri kugenda mu muhanda.

Mu muhanda wa kaburimbo hari umurongo muremure w'umweru, bigaragara ko ariho imodoka ziparika, haparitseho imodoka y'umweru yanditseho Yego kapusi, hirya hari n'abantu.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ikinyabiziga cya moto isa ubururu, ifite igikonteneri inyuma, hirya yawo hari ibiti byo mu bwoko butandukanye, hari n'ipoto rinini ririho itara.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo ibinyabiziga bitandukanye, moto ihetse umugenzi wambaye ingofero z'umuhondo n'imodoka nini ifite ibara ry'umweru n'umuhondo, hirya hari ibiti bitandukanye.

Imodoka iri mu bwoko bwa dayihatsi, akenshi ikunda gupakira amazi, imicanga, n'ibindi bintu byose biremereye iyi modoka irabipakira.

Mu kibuga cy'umupira hari imirongo miremire y'umweru, harimo abantu benshi bari gukina umupira, hari n'undi hanze wambaye ikabutura y'ubururu, n'umupira w'umweru n'umukara, hasi hateretse ibikapu.

Mu busitani harimo icyapa cy'ubuso bw'umweru harimo ubururu mo imbere cyanditsemo pa gishushanyijemo n'imodoka yo mu bwoko butwara abagenzi, mu buryo bwa rusange hirya hari amazu meza ageretse.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo uturongo tw'umweru n'umukara hari naho abagenzi bagendera hubakishije amatafari yo mu bwoko bw'amapave hari n'ubusitani bwiza buririmo icyapa kiririmo ubuso bw'umutuku n'imbere harimo umweru hepfo hari igishushanyijeho umuntuntu.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo imirongo y'umweru, n'umukara, harimo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka, harimo n'umuntu w'igitsina gore uri gutambuka, hirya y'aho hari inzu nziza.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo umurongo muremure w'umweru, n'indi mirongo y'umweru n'umukara, harimo ibinyabiziga bitandukanye, moto, n'imodoka y'umutuku, hirya hari ibiti byo mu bwoko bw'imikindo.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo umurongo muremure w'umweru n'indi mirongo y'umweru n'umukara, harimo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka z'umweru, hirya y'aho hari amazu meza.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye, moto ebyiri n'imodoka, hejuru hari undi muhanda, hirya hari ibiti byo mu bwoko butandukanye n'indabyo.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo ibinyabiziga bitandukanye, moto n'imodoka isa umutuku, hirya hari sitasiyo banyweshaho ibikomoka kuri peteroli.